Icyumba kirimo abantu imbere hagaragara abagabo bane bahicaye bose bambaye amakoti, harimo umuzungu umwe ufite indangururamajwi mu ntoki imbere yabo hari ameza ateretseho amazi.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'iy'inama ahantu hari imbuga y'ubururu bicaye ku ntebe hagati yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa inyuma yabo hagaragara icyapa kirimo ibara ry'ubururu.

Iyi nyubako yubakishijwe ibirahuri, imbere yayo hahagaze abantu bahagaze ku murongo utambitse bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagaragaramo abagabo batatu bambaye imyenda igaragara nk'iy'abayisiramu.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama, bicaye ku ntebe z'umukara, harimo umugore, wambaye amadarubindi, imbere y'abo hari ameza ari mu ibara ritukura, ateretseho terefone ngendanwa, amakayi, ndetse n'amakaramu.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari intebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu, hagati yabo hari insakazamashusho ndetse n'amezi ari imbere yabo baturetse amacupa na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'ikinama hucayemo abantu bicaye bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho telefone ngendanwa, imbere yabo hari umu8gabo uhahagaze wambaye ishati y'umweru ku bikuta hamanitse ibitambaro biri mu ibara ry'ubururu, umuhondo tutibagiwe n'icyatsi.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru kirimo abagore batatu bicaye, bose bambaye amadarubindi ku maso imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, impapuro ndetse n'amakaramu.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, gifite ibikuta by'umweru, hari ameza asasheho ibitambaro by'umutuku, imbere hari umugore, ku meza hari ibikapu ndetse n'amakayi mato.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi ye yegereje umunwa, ahagaze hagati y'ameza abiri ateretseho amacupa, imbere y'ayo hicayemo abantu.

Icyumba gifite ibikuta bimanitseho ibitambaro by'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi hicayemo abantu bicaye bazengurutse ameza bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'imbaho inyuma zimanitseho ibikapu batwara ku rutugu.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kirimo intebe zirimo ibara rijya gusa nk'ivu, intebe imwe y'imbere iteretsemo mudasobwa, hicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bamwe muri bo bari kureba muri terefone zabo ngendanwa.

Abantu batatu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, ku ntebe z'umukara, harimo umugore umwe wambaye amadarubindi, imbere yabo ku meza hateretse impapuro, telefone ngendanwa, ndetse n'amacupa, utibagiwe na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuye n'igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu, imbere hakaba andi arambuye igitambaro cyo mu ibara ry'umuhondo hateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Abantu bicaye mu cyumba kirimo intebe z'umukara, imbere yabo hariyo ameza ariho impapuro ndetse n'amacupa, imbere hicaye umugore uteze igitambaro umutwe, wambaye isaha ku kuboko ndetse n'amadarubindi uri kwandika, ukundi kuboko kwe yagushyize mu mutwe.

Icyumba cyicawemo n'abagore babiri umwe afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi ku maso afite umusatsi mugufiya, iruhande rwe hicaye undi ufite umusatsi uboshye imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho telefone ngendanwa ndetse n'amacupa.

Icyumba kirimo abantu, bambaye imipira y'umukara y'amaboko magufiya, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari amacupa, muri bo umwe arahagaze afite indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nki icy'inama cyicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara bicaye bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro cy'umukara ateretseho amacupa ibikombe ndetse n'ibirahuri bankwesha.

Icyumba cyicayemo abantu benshi imbere hagaragara abagore babiri, umwe arirabura yambaye ikoti riciyemo uturongo ndetse n'amadarubindi ku maso, undi yambaye imyenda ijya gutukura ateze igitambaro mu mutwe yambaye n'amadarubindi ku maso. Imbere yabo hari ameza ariho telefone ngendanwa.

Umugabo wambaye ikote, yambaye amadarubindi ku maso, afite indangururamajwi, inyuma ye hicaye abandi bantu benshi imbere ye hari ameza ateretseho terefone ngendanwa.

Abantu benshi bahagaze hamwe barimo umugore uteruye umwana, hasi yabo hagaragara abantu bicaye bazengurutse neza bicaye ku ntebe zitukura imbere yabo ku meza hateretse amacupa ndetse na mudasobwa.

Abantu bicaye mucyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ateretseho impapuro, amakaramu ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara bazengurutse ameza ateretseho amazi ndetse n'indangururamajwi.

Umusore wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, yambaye ipantaro y'umukara yambaye n'ishati y'umweru afite indangurura majwi mu ntoki, imbere ye hicaye abandi bantu bagaragaramo umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kirimo ameza y'uruziga n'ibara ry'umukara, ateretseho amacupa, hateretseho n'agaseke gatoya n'udutabo, ku ruhande hazengurutswe n'abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abagabo benshi bambaye amakote ndetse n'amashati mo imbere, hari n'umugabo ufite mudasobwa ku bibero.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bicaye ku meza y'uruziga y'ibara ry'umukara ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, ku idirishya hari ibitambaro birinda urumuri, hari n'amezaza arambuyeho igitambaro cy'ubururu hariho amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umukara, ateretseho amacupa ndetse n'ibikombe, imbere hagaragara umuzungu wambaye amadarubindi.

Abantu bicaye bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ry'umukara, ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa, imbere hagaragara abagore babiri, bose bambaye amadarubindi ku maso, umwe afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho terefone ngendanwa, amakayi, ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama ku madirishya hari ibitambaro birinda urumuri bicaye ku meza arambuyeho ibitambaro by'umweru ndetse n'umukara ateretseho mudasobwa amacupa ndetse n'umugozi.

Imbuga y'igitaka wicayemo abantu benshi, inyuma yabo hari imodoka nini itwara abagenzi ku giti cyabo, imbere ihagaze umugore ufite imisatsi miremire yegera mu mugongo, wambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Icyumba kigaragara nk'ikinama gifite amatara hejuru acanye cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba gifite imbuga y'ubururu giteyemo intebe ziri mu ibara ritukura, kicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hejuru hari amatara ari kwaka ari menshi.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho telefone ngendanwa, amacupa, n'ibirahuri banywesha amazi.

Abantu bicaye ari benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hariya ameza aturetseho amacupa, hagaragara umugabo wambaye amadarubindi ufite imvi nkeya umusatsi wiwe imbere ye hari indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kijya kumera nk'ik'inama bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'iry'ivu, imbere yabo ku meza hateretse amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Imbuga y'ubururu iteyeho intebe zirimo ibara ritukura zicayeho n'abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, imbere yabo har’ameza ashasheho igitambaro cy'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, telefone ngendanwa, ndetse n'amacupa.

Abantu bahagaze hamwe birundanyije ku mbuga y'ibara ry'ubururu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hagaragara umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, inyuma yabo hagaragara icyapa cyo mu ibara ry'ubururu.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara agiye atandukanye bicaye mucyumba kigaragara nki cy'inama, bicaye muburyo bwuruziga, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umweru hejuru hari amatara acanye.

Abantu bagaragara nk'abicariye mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bicaye mu ihema ry'umweru, imbere yicaye abantu bane, harimo abagore babiri bambaye imipira isa y'amaboko magufi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'ubururu, ateretseho terefone ngendanwa.

Icyumba kigari kicayemo abantu benshi cyane bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abagabo bambaye amapantaro ndetse n'amakote n'amashati y'umweru, gifite ibikuta by'umweru.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari izindi ntebe zifite ibara rijya gusa, nk'ivu bicaye bakikije ameza ateretseho amacupa telefone ngendanwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, ku idirishya hari igitambaro kiri mu ibara ry'umuhondo kirinda urumuri, imbere hagaze umugore wambaye imyambaro y'umuhondo hamwe n'igitambaro mu mutwe, wambaye isaha ku kuboko, ufite indangururamajwi, iruhande rwe hari intebe za kaki.

Icyumba gifite imbuga y'ubururu, giteyemo intebe zo mu'ibara ry'umukara, zicayeho abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, hejuru hagaragara amatara acanye ari menshi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho n'indabo.

Imbuga y'umukara iteyeho intebe zicayeho abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hagiye hatetse ameza mato hariho amacupa, ku ruhande hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yabo hagaragara icyapa cyiganjemo amabara y'ubururu.

Abantu bicaye, hagati yabo hari utumeza duteretseho ibyo kunywa, hasi hari imbuga y'ubururu, inyuma hagaze abandi bantu bafite telefone ngendanwa mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu benshi hagaragara umugabo wambaye amadarubindi ku maso yambaye n'ishati n'ibara ry'ikinombe imbere ye hari ameza ateretseho telefone ngendanwa ndetse n'icupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, kigaragara nk'icy'inama, imbere hagaragara umugore wambaye agapira k'isengeri karimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, afite umusatsi mwinshi ku mutwe, afite ikaramu mu ntoki, yambaye n'agatare ku kuboko.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, abenshi muri bo bambaye ibara ry'ubururu bicaye ku ntebe z'umweru, imbere y'abantu bicaye imbere, hateye ameza asasheho igitambaro cy'umweru ateretseho terefone ngendanwa impapuro ndetse n'amacupa.

Igisambu giteyemo ihema cy'umweru hicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mamabara atandukanye, higanjemo abambaye imyambaro yo mu ibara rijya gutukura, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari insakazamajwi nini cyane y'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye ku ntebe z'ibara ry'umukara bazengurutse ameza n'ibara ritukura ndetse n'umukara ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, bicaye bakikije ameza y'uruziga, arambuyeho igitambaro cy'umukara, ateretseho terefone ngendanwa ndetse n'amacupa.

Icyumba gifite ibikuta biri mu ibara ry'umweru kicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye bazengurutse ameza ashasheho igitambaro cy'umweru ndetse n'ikindi gifite ibara wagira ngo ni igitenge, imbere ku meza hateretse amacupa.

Icyumba kicawemo n'abantu bakeya, bicaye ku ntebe zijya gusa nk'ivu harimo umugore wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'umukenyero uteze igitambaro gitukura mu mutwe afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Icyumba kicawemo n'abantu bane, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza y'umweru y'uruziga, bambaye imyenda yo mabara atandukanye, babiri bo ku ruhande bambaye imipira y'amaboko magufi yo mu ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bicaye mu buryo bw'uruziga, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, hari n'izifite ibara ry'ubururu bwijimye, imbere yabo hari ameza asasheho igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama bicaye mu buryo bw'uruziga, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye. Imbere yabo hari ineza iteretseho indangururamajwi.

Icyumba kicawemo n'abagabo batatu, umugabo umwe muri bo yambaye ikote ndetse n'ishati y'umukara mo imbere, nta musatsi afite, yambaye amadarubindi ku maso, imbere yabo hateretse icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, imbere yabo hakagaragara umuntu ufite indangururamajwi mu ntoki urimo aravuga.

Imbuga yi'cyatsi kibisi iteyeho intebe zirimo ibara ry'umukara zicayeho abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere hagaragara umugore wambaye ikanzu y'ubururu bwijimye, wambaye amadarubindi ku maso, afite terefone nini cyane ngendanwa mu ntoki.

Abantu bicaye bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye mucyumba gifite igikuta kirimo ibara ry'umweru, harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse nshati y'umweru yambaye amadarubindi ku maso.

Icyumba kigaragara nkicy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere yabo ku meza hateretse amakaramu, telefoni ngendanwa, impapuro ndetse n'amacupa.

Mu cyumba cyicayemo abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hari ameza n'ibara ry'umukara ndetse n'umutuku ateretseho indangururamajwi telefone ngendanwa ndetse n'ibikapu batwara ku rutugu inyuma hagaragaza izindi ntebe zo murindi bara.

Icyumba cyicawemo n'abantu babiri, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo. Hateretseho amazi inyuma yabo hari igikuta cy'umweru.

Igisambu cyubatsemo amahema, kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru, imbere hari abana bicaye hasi, inyuma yaho hagaragara ibiti.

Icyumba cyicayemo abantu hagaragara umugabo ufite indangururamajwi mbere ye ku meza, yambaye ikoti ry'umukara ku meza hateretse ibyo kunywa bitandukanye hari n'ibikuta by'umweru hamanitse n'insakazamashusho.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yera y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuye y'igitambaro cy'umweru ateretseho na mudasobwa imbere hahagaze abantu babiri umugabo umwe ndetse n'umugore bafite indangururamajwi mu ntoki inyuma yabo hari igitambaro cy'umweru kimanitse mu idirishya kirinda urumuri.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye; bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu; abenshi muri bo bafite mudasobwa ku bibero, hari n'abafite telefoni ngendanwa mu ntoki.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ashasheho y' igitambaro cy'umweru, ateretseho amacupa, hagati hahagaze umugore, wambaye imyambaro yo mabara y'umutuku ndetse n'umukara, ufite indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kirimo idirishya ry'ikirahure kibonerana, urebeye mu idirishya ubona ibiti, hicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, barimo n'umugabo wambaye ingofero mu mutwe n'amadarubindi, n'ishati y'umweru ndetse n'ikote. Bicaye bakikije ameza ateretseho mudasobwa.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, wicaye ku ntebe y'umukara, yambaye n'ishati y'umweru, yambaye n'isaha ku kuboko, imbere ye ateretse indangururamajwi, yambaye n'amadarubindi ku maso.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama giteyemo intebe z'umukara zicayeho abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza, hariho indangururamajwi mudasobwa ndetse na terefone ngendanwa.

Abantu bicaye mu cyumba gifite ibikuta by'umweru, mu madirishya hari ibitambaro birinda urumuri, muri icyo cyumba harimo intebe z'umutuku n'ameza y'uruziga arambuyeho igitambaro cy'umweru, hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki n'undi musaza wambaye amadarubindi, ku meza harambitse mudasobwa.

Umugabo wicaye mu cyumba kirimo n'abandi bantu yambaye ishati y'umweru, yambaye amadarubindi ku maso, afite ubwanwa burimo imvi, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho icupa iruhande rwe ihcaye umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Icyumba kicayemo abantu benshi hari abambaye imipira y'ubururu n'abandi bambaye imipira y'icyatsi kibisi, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye n'amadarubindi, imbere ye hari ameza asasheho igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa ndetse n'uduseke.

Akazu gatoya kubabakishijwe imbaho, kamanitseho imitako y'imigongo, mo imbere hicayemo abantu babiri, hari n'ufite mudasobwa hejuru hamanitse icyapa.

Umusore wambaye umupira w'ubururu w'uruniga, ari kugaragara igice cyigihimba, ari kumwenyura, mukiganza afite terefone ngendanwa, icanye yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Icyumba kicayemo abantu b'ingeri zose harimo abantu bakuru ndetse n'abana, harimo abazungu babiri, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho mudasobwa.

Umukobwa ugaragara nk'uwicaye wambaye umwambaro w'umweru agaragara igice cy'igihimba afite imisatsi y'umukara miremire, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Umukobwa wicaye yagezetse ukuguru kundi yambaye inkweto ziririmo ibara ry'umweru, afite imisatsi miremire y'umukara, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, afite terefone ngendanwa mu ntoki, yicaye ku ntebe ifite ibara rijya gusa nka kaki.

Umunara muremure uri mu mabara abiri harimo ibara ry'umweru ndetse n'iritukura hejuru hagaragara ikirere cy'umweru ndetse n'ubururu hari n'ishami ry'igiti kigaragara.

Abantu bambaye udupfukamunwa bashushanyije bambaye n'imyambaro yo mu mabara atandukanye, hari uwambaye impuzangano z'abaganga n'impuzangano z'abatetsi, undi yambaye ikote ndetse n'ishati mo imbere hejuru yabo handitse amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hicaye abantu benshi, inyuma yabo hagaragara ibyatsi, abenshi muri bo bafite mudasobwa, abandi bafite telefone ngendanwa mu ntoki, harimo umusore wambaye ingofero mu mutwe wunamye ari kureba muri mudasobwa.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye amadarubindi ku maso, yambaye ingofero yo mu ibara ry'ubururu, afite mudasobwa mu ntoki, iruhande rwiwe handitse amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo.

Imbuga isahemo amabuye ku ruhande hari igikuta cyanditseho amagambo yo mu ibara ritukura ndetse n'umukara atagaragara neza, hegamyeho abantu ku ruhande hari n'abandi bicaye bari kureba muri telefone zabo ngendanwa.

Umukobwa wasamye ugaragara nk'uwumiwe, uri kureba muri telefone ye ngendanwa afite mu ntoki, yambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, agaragara igice cy'igihimba, imbere ye hateretse mudasobwa.

Imbuga ishashemo amabuye, ku ruhande hari agatebe kicayeho umuntu, ku ruhande hari agace gatoya k'ubusitani, hari n'inzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru n'indi ifite ibara ritukura, hejuru haragaragara ikirere cy'umweru n'ubururu.

Inoti nyinshi zifungiye hamwe ziri mu ibara ritukura zanditseho ibihumbi bitanu, hariho ishusho y'inyamaswa bita ingagi, ku ruhande hateretse telephone ngendanwa iri kwaka yanditsemo imibare.

Inyubako hejuru yubakishije amatafari ahiye imbere hahagazeho abantu, imbere hagaragara imbuga igaragara nk'itose irimo imodoka ebyiri ntoya zitwara abantu ku giti cyabo.

Icyumba kigaragara nk'ishuri hicayemo abantu bambaye imyenda igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ari mu ibara risa nk'ikinombe.

Icyumba kigaragara nko mu ishuri hicayemo abantu bambaye impuzangano nk'iz'abanyeshuri, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ntoya ziri mu mabara abiri, harimo umweru ndetse n'ibyatsi kibisi.

Abantu bane bahagararanye harimo umugabo wambaye ingofero y'ubwubatsi mu mutwe n'undi mugore ufite imisatsi iboshye wambaye isaha ku kuboko, inyuma ye ahagaze undi musore wambaye agapfukamunwa n'umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Abantu batanu harimo abazungu batatu bahagaze hagati yabirabura babiri, bambaye imipira y'amaboko magufi irimo ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hagati handitsemo inyuguti yo mu ibara ritukura ya ta, munsi yabo hari abantu bari gukina umupira, ahantu hagaragara nko muri sitade.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, bicaye bazengurutse ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ibikombe bibiri biri mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hagaragara ubusitani.

Imbuga ihagazeho amapikipiki menshi hari n'urunyurane rw'abantu hakurya hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, harimo iz'ubwikorezi n'izitwara abantu ku giti cyabo, ku ruhande rwazo hagaragara umunara muremure hakurya hari ibiti.

Igisambu giteyemo igiti kirekire cyumye hagaragara n'agace gatoya gasashemo amabuye, munsi hari inzu isakarishijwe amabati y'umweru ndetse n'umutuku, hakurya hagaragara ibindi biti bishishe.

Inyubako yubakisheje amatafari ahiye, imbere yayo hari imodoka z'umweru, inyuma yazo hari ubusitani buteyemo ibiti, hagaragara n'indi modoka y'umweru iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara, yanditseho amagambo atukura.

Ahantu bubakishije amabuye asize amabara y'umweru ndetse n'umukara, hejuru hashizeho amabendera abiri, ku mpande mu mbuga ihari hari imodoka ntoya zitwara abantu ku giti cyabo, hagaragara inyubako ndetse n'ibiti.

Imbuga ya kaburimbo iri kugendamo abantu batandukanye, harimo n'uwitwikiye umutaka hagati hagaragara ubusitani bumanitsemo amabendera harimo n'icyapa cy'ubururu, inyuma hari inzu y'igorofa ifite amagambo hejuru.

Imbuga isashemo amabuye ku mpande hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti, hari abantu bari kugendamo hari n'imodoka ntoya zihagaze ndetse n'amapikipiki.

Abantu bambaye impuzangano z'umweru zimeze nk'iz'abatetsi, bambaye n'ingofero mu mutwe bahagaze imbere y'ameza y'icyuma ariho amasafuriya y'icyuma manini, hari n'abandi bantu bahagaze imbere bari kujya babahereza ibiryo biri ku masahani.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hari gutambukamo abantu babiri bambaye impuzangano zisa, uw'imbere afashe ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu gisambu munsi y'igiti, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'igitenge, ari kureba abandi bantu bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hariho ameza ariho impapuro.

Abantu bicaye barambije hasi munsi y'igiti bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo ufite umutaka urimo amabara menshi, n'abandi bantu bicaye imbere yabo hari ameza.

Urukuta runini rwubakishije amatafari ahiye, imbere yarwo hagaragara abantu basa nk'abari gutera intambwe, hari imbuga y'igitaka, harimo n'umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba afite umusatsi mugufiya k'umutwe, yambaye amadarubindi ku maso, yambaye umwambaro wo mu mabara abiri harimo umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ikabutura n'ishati bigaragara nk'impuzangano y'abagororwa, akikijwe n'abandi bantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma ye hagaragara ibiti.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, bambaye udupfukamunwa turi mu ibara y'ubururu, mu maso imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba gifite amatara acanye hejuru, hicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bicaye bazengurutse ameza y'uruziga arambuyeho igitambaro cy'umukara, imbere yabo hari umuntu uhagaze ku mbuga y'umukara, wambaye imyambaro y'umukara ufite indangururamajwi imbere yiwe.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara yanditse mu nyuguti ntoya, hejuru hari igishushanyo kerekana ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda.

Igikuta gisize amabara y'umweru ndetse n'umukara, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo manini y'umukara, kuruhande hashushanyije ikirangantego cy'u Rwanda, imbere hagaragara igiti.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikote ndetse n'amadarubindi ku maso, afashwe ukuboko n'undi mugabo w'umuzungu wambaye amadarubindi ku maso n'ishati y'amaboko magufiya.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icyinama bicaye bazengurutse ameza ari mu ibara ry'umweru ateretseho amacupa, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, hari n'abafite telefoni ngendanwa.

Umugabo udafite umusatsi, wambaye ishati y'amaboko magufi, iri mu ibara rijya gusa nk'iroza, afite agatabo mu ntoki gafite igifuniko cy'ubururu, inyuma ye hicaye abandi bantu.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba udafite umusatsi ku mutwe utarimo guseka yambaye amadarubindi ku maso yambaye umwambaro uri mumabara y'umutuku ndetse n'umukara nishati iri mu ibara ry'umweru n'imbere.

Umugabo wirabura, udafite umusatsi ku mutwe, uri kugaragara igice cy'igihimba, yambaye umwambaro uri mu mabara atatu, harimo ibara ritukura, ibara ry'umukara, ndetse n'iry'umweru.

Icyumba gihagazemo abagabo batatu, umugabo wo hagati yambaye umwambaro w'umukara, umugabo wo ku ruhande yambaye ishati iciyemo imirongo, yamanitse ikiganza hejuru, uwundi mugabo yambaye umupira w'umweru.

Abantu babiri bicaranye harimo umugore ufite imisatsi iboshye ifungiye inyuma, yambaye agapfukamunwa mu isura n'umugabo uri iruhande rwe yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umweru w'amaboko magufi, imbere yabo hateretse icupa, mudasobwa na terefone ngendanwa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abenshi muri bo bateze igitambaro mu mutwe bicaye mu gisambu munsi y'ibiti, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ufite n'urupapuro mu ntoki.

Umugabo uhagaze agaragara igice cy'igihimba, udafite umusatsi ku mutwe afite ubwanwa burimo imvi, yambaye umwambaro mu mabara atatu ariyo umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y’iroza igaragara nk’impuzankano y'abagororwa, yambaye amadarubindi ku maso, nta musatsi afite, yambaye n'amapingu ku maboko, inyuma ye har’abandi bantu babiri bambaye impuzankano zisa.

Abantu benshi bicaye mu gisambu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bitwikiriye imitaka ifite amabara menshi, imbere yabo hagaze umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati bigaragara nk'impuzangano y'abagororwa.

Umugabo udafite umusatsi wambaye ikote ry'umukara mo imbere yambayemo umupira utukura, yambaye umusaraba mu ijosi, yambaye n'amadarubindi, ku maboko yombi we afashwe n'abagabo babiri bambaye impuzangano zisa inyuma ye hari abandi bagabo babiri bambaye ishati yumweru ndetse n'ikote.

Intebe z’imbaho zicayeho abagabo batatu bambaye imyambaro igaragara nk’impuzankano y'abagororwa, umwe wo ku ruhande yifashe mu gatuza asobekeranyije amaboko yombi, yambaye isaha ku kuboko.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye umwambaro uri mubara abiri, umutuku ndetse n'umweru, ntabwo ari guseka afite umusatsi mukeya ku kumutwe.

Umugabo w'irabura uhagaze utari guseka ugaragara igice cy'igihimba, afite umusatsi urimo imvi, yambaye umwambaro ugaragara mu mabara atatu harimo ibara ritukura, iy'umukara ndetse n'iyumweru.

Abantu babiri bambaye imyambaro y'umukara irimo n'ibara ry'umweru, bambaye upfukamunwa tw'ubururu mu isura, hagati yabo hari umugabo wambaye ikanzu y'ibara ry'iroza, n'agapfukamunwa k'iroze.

Icyumba cyicawemo n'abantu batatu, bambaye imyenda isa, iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, inyuma yabo hagaragara icyapa gishushanyijemo ikimenyetso cy'umusaraba, kiri mu ibara ritukura, imbere yabo hari ameza ariho impapuro, amacupa, ndetse n'indangururamajwi ebyiri.

Umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abagororwa, afite ikaye y'ubururu mu ntoki yambaye agapfukamunwa mu isura, inyuma ye hagaragara ameza ariho indangururamajwi.

Umugore w'inzobe utari guseka uhagaze agaragara igice k'igihimba afite umusatsi mugufi ya ku mutwe, yambaye umwambaro mu mabara abiri ari yo umutuku ndetse n'umweru hagati.

Umugabo ugaragara igice k'igihimba, uhagaze atari guseka, agaragara nk'ufite uruhara, yambaye umwambaro uri mu mabara atatu, harimo ibara ritukura, iry'umukara ndetse n'umweru.

Umugabo usa nk'umwenyuye mo gakeya wirabura udafite umusatsi, yambaye amadarubindi kumaso, yambaye umwambaro wo mu mabara abiri, harimo ibara ritukura ndetse n'umukara.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo abambaye impuzangano zisa inyuma yabo hagaragara ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba, utari guseka, afite imisatsi migufiya ku mutwe, yambaye umwambaro uri mu mabara atatu ari yo: ibara ritukura, umweru, ndetse n'umukara.

Icyumba kicayemo abantu batandukanye, bicaye ku ntebe z'ubururu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, abicaye ku mirongo ibiri ya mbere bambaye impuzankano ziri mu ibara ritukura ndetse n'umweru, bambaye ingofero mu mutwe.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bicaye ku ntebe zitukura, bambaye imyenda yo mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari amabendera, inyuma yayo hagaragara abantu bambaye imyenda y'ibara ritukura ndetse n'insakazamashusho imanitse hejuru.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba wambaye ingofero y'umukara mu mutwe, ufite indangururamajwi imbere ye yambaye umwambaro uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye amadarubindi wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru inyuma ye hahagaze undi mugabo muremure wambaye amadarubindi ndetse n'ikote mo imbere yambayemo ishati y'ubururu hari n'undi muntu wambaye ingofero y'umutwe wambaye impuzankano igaragara nk'iyabashinzwe umutekano.

Umugabo wambaye impuzankano z'abapolisi, uhagaze mu muhanda wa kaburimbo, ushushanyijemo ikimenyetso cy'umweru, imbere ye hahagaze ipikipiki, imbere hagaragara imodoka zitwara abagenzi.

Imbuga ihagazemo, abagabo babiri bambaye impuzankano y'abapolisi, imbere yabo hari ipikipiki nini, imbere yayo hari imodoka y'umweru, hagaragara n'umukobwa wambaye umupira wo mu ibara ritukura, n'ipantaro y'umukara uri gutera intambwe.

Umuntu wicaye mu modoka mu idirishya ry'imodoka hagaragara umukobwa wambaye imyambaro y'umukara, ifite ibendera ry'u Rwanda ku kuboko haagaragara igice k'igihimba yambaye n'ingofero.

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara wambaye ingofero mu mutwe, ukuboko kwe yagushyize inyuma mu mugongo ufite urupapuro ukundi kurazamuye, ahagaze mu mbuga y'ibitaka imbere ye hari ibinyabiziga hakurya hagaragara inzu y'igorofa.

Imbugasasheho amabuye ateretsemo ameza ayo meza ateretseho icupa rya gaze, riri mu ibara ry'umutuku hariho n'isafuriya igaragara nk'iri kwakamo umuriro, imbere yawo hahagaze umuntu wambaye agapfukamunwa wambaye n'ingofero mu mutwe ufite igitambaro mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka ntoya y'abapolisi, imbere yayo hari amapikipiki ndetse n'imitaka yo mu mabara atandukanye hari n'inyubako imanitseho ibyapa bitandukanye.

Imbuga ihagazemo abagabo babiri bambaye impuzankano zisa imbere yabo hari moto yo mu ibara ry'umweru imbere yayo hagaragara imodoka y'umweruru hakurya hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki hagaragara n'inzu y'igorofa.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo umugabo wambaye impuzankano y'abapolisi imbere ye hari amapikipiki abiri ahahagaze, umuhanda wa kaburimbo n'umugore uhinguka wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge hasi.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazeho umugabo washyize amaboko inyuma, wambaye impuzangano y'abapolisi. Imbere ye hari umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira.

Abantu bahagaze hamwe bahetse imbunda ku bitugu bazifasheho bambaye impuzangano z'umukara hejuru y'inkokora ku kuboko hariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, inyuma yaho hagaragara amazu.

Imbuga ihagazemo amapikipiki n'abayobozi bayo, hariho n'abagenzi ku mapikipiki. Imbere yabo hahagaze umuntu wambaye impuzankano nk'iy'abapolisi, haruguru hagaragara undi muhanda wa kaburimbo ndetse n'imodoka.

Umuhanda usashemo amabuye, hahagazemo imodoka y'abapolisi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari inzu y'igorofa igaragaraho icyapa cyanditseho amagambo y'ubururu ndetse n'umukara.

Abagabo babiri bicaranye umwe ni umwirabura yambaye ingofero mu mutwe y'umweru, yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi yicaranye n'undi w'umuzungu ufite umusatsi w'umweru wambaye n'amadarubindi.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, ufite igiseke mu ntoki. Imbere ye hari abantu bicaye, imbere yabo hari ameza arambuye y'gitamba gitukura, ateretseho indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo ku meza hateretse indangururamajwi ndetse n'amacupa. Imbere har’umugabo ufite igiseke n'umugore umeze nk'ushaka gukoramo.

Imbuga isashemo amabuye, ifatanye n'ubusitani butoya, ihagazemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hubatsemo n'amahema.

Abantu benshi bahagaze hamwe kumurongo utambitse abagabo bambaye amakoti ndetse n'amapantaro abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero igiye iri mu mabara atandukanye inyuma yabo hagaragara ibiti.

Abantu batatu bahagararanye, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, umugabo n'umugore bari guseka, undi mugore afite imisatsi miremire y'umukara, igera ku rutugu, undi mugore yambaye ikanzu ijya kugaragara mu ibara ry'ubururu.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba k'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ariho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Ikirangantego cyanditsemo amagambo y'umukara hagati, hejuru hagaragara akanyamaswa kajya kumera nk'inyoni, kiri mu mabara atatu: umutuku, umuhondo, ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicawemo n'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufite indangururamajwi imbere y'iwe.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara wambaye ikote n'ipantaro by'umukara mo imbere yambaye ishati y'umweru ntago ari guseka, inyuma ye hagaragara mu ibara ry'icyatsi cyibisi.

Umugabo wicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umukara wambaye ikoti ry'umukara n'ishati iciyemo imirongo yambaye impeta ku rutoki afite ikaramu mu ntoki, inyuma ye hari urugi rukinze.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi ku maso yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye n'isaha y'umukara ku kuboko mu kiganza cye afite indangurura majwi.

Umugore wambaye amadarubindi ku maso utari guseka, wambaye urunigi rw'umweru mu ijosi, agaragara igice cy'igihimba, yambaye umwambaro wo mu bwoko bw'inkenyero, azamuye ikiganza, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'igitambaro cy'ubururu gishushanyijemo izuba.

Abantu bicaye mu cyumba giteyemo intebe zifite ibara ry'umukara bicayeho bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, hagaragaramo abagore ndetse n'umugabo umwe, inyuma yabo hari amabendera abiri.

Imbuga ihagazemo abantu benshi bambaye umupira w'amaboko ma magufi harimo; iyo mu iba ry'umweru, iyo mu ibara ritukura ndetse n'ibara ry'ubururu, bafite utudarapo dutoya mu ntoki turi mu ibara ry'umutuku, umwe ndetse n'ubururu bambaye ingofero z'umweru mu mutwe.

Umugabo uhagaze mu gisambu wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru w'amaboko maremare, wambaye amadarubindi ku maso n'ingofero mu mutwe wazamuye ikiganza, yambaye isaha ku kuboko. Inyuma ye hahagaze abagabo bambaye impuzangano z'umukara, inyuma yabo hagaragara amahema.

Abantu bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, bambaye ingofero mu mutwe, bafite impapuro mu ntoki, bazengurutse ameza ariho impapuro ateretseho n'icupa.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo abagabo bambaye amakote ndetse n'amashati n'imbere imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ku gatuza irimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, nk'umugore uri inyuma ye wambaye ishati y'umweru wambaye n'amadarubindi ku maso inyuma yabo hagaragara abantu benshi bafite utubendera tuwori mu mabara yicyatsi kibisi, umwerube ndetse n'umuhondo.

Abagore ndetse n'abagabo, abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyerero n'abagabo bambaye amakote, bafashe ku mabendera y'ubururu ndetse n'umuhondo utibagiwe n'icyayi.

Umugore utagaragara neza mu isura wambaye imyambaro y'igitenge, ateruye akana gato k'agahungu kambaye ipantaro ndetse n'ikote, iruhande rwe hicaye akandi kana k'agahungu kambaye ikote n'ishati y'umweru kari kumureba.

Imodoka ihagazemo umugabo wambaye ishati y'icyatsi kibisi; ifite ibara ry'umweru ku kuboko n'ibara ritoya ry'umuhondo ku ijosi; inyuma hakaba hari abantu benshi; hakaba hari n'ufite icyapa kiriho ishusho y'umuntu.

Umugabo ufite imvi mu mutwe wicaye mu kagare kagenderamo abafite ubumuga, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu, ufite urupapuro ruzinze mu ntoki ari kurushyira mu gasanduku gateretse ku ntebe.

Agahanda k'abanyamaguru gafitanye n'undi muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ntoya mu ibura ry'mweru kuruhandde haragaragara n'indi modoka nini y'ubwikorezi yo mu'ibara ry'ubururu hakurya hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo abantu, gafatanye n'undi muhanda uri kugendamo ibinyabiziga, harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwagiye usaduka, uri kugendamo igare rihetse umugenzi, harimo n'ipikipiki ihetse umugenzi n'imodoka ntoya y'umweru, hakurya yaho hagaragara ibiti.

Umusozi uteyeho ibiti byinshi, imbere yawo hagaragara umunara muremure, uri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka z'amoko atandukanye, hagaragara n'imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo igare ridahetse umunyonzi, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kunyuramo amapikipiki menshi, n'imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ritukura.

Agahanda gasashemo amabuye munsi yako hagaragara rigoreri itwara amazi, hari n'ikiraro cyo kwambukiraho gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda uri kugendwamo n'igare ritwawe n'umuntu wambaye umupira wibara ritukura inyuma aho batwara umugenzi hateretse imifuka myinshi igiye igerekeranye iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Imbuga irimo ibidendezi by'amazi imbere hahagaze imodoka y'umweru itwara abagenzi, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ritukura, ku ruhande hari umugabo wambaye ingofero y'urugara uhetse igikapu mu mugongo.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, uciyemo umurongo muremure w'uweru, imbere hari imodoka nini y'ubururu, y'ubwikorezi, yegeranye n'iyindi ntoya y'ubwikorezi, aho bashyira imizigo hari ibintu birimo.

Imbuga ihagazemo imodoka z'umweru zitwara abagenzi, hagaragaramo n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhetse igikapu mu mugongo, afite anvelope mu ntoki, yambaye n'ipantaro ijya kuba umweru.

Umukingo w'amabuye manini ufatanya n'agahanda gato gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi hakurya yawo hagaragariye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, hakurya hagaragara isaha nini y'umweru ari kugendamo n'imodoka z'ubwikorezi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi aho batwaye imizigo harimo ibintu byinshi bitwikirije shitingi hahambiyeho n'imigozi, imbere hari kugaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo amagare, rimwe muri yo aho batwara abagenzi hari amabati agiye ahagaritse, inyuma hagaragara imodoka y'ubwikorezi. ku ruhande hateye ibiti.

Rigori icamo amazi haruguru yayo hagaragara ahgahanda gashashemo amabuye kari kugendamo umugore wambaye igitenge iruhande rwe hari imodoka y'umweru iri kureba ku rugi runini cyane rw'umukara, haruguru hubatse inzu y'igorofa hari n'izindi modoka.

Umuhanda w'igitaka, umennyemo utubuyeri dutoya tw'udusarabwayi, hahagazemo amapikipiki ari mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umukara, imbere yawo hari umuhanda usashemo amabuye, ufatanye n'undi muhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga.

Rigori icamo amazi ifatanye n'agahanda k'amabuye gafatanye n'umuhanda mugari wa kaburimbo urimo imodoka yo mu ibara ritukura y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'urimo ikinogo, iruhande rwawo hari imodoka nini itwara abagenzi iri mu mabara abiri ubururu ndetse n'umweru, hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki hagati y'uteyemo ubusitani buririmo indabo ndetse n'ibiti by'imikindo hakurya hagaragara ibiti.

Imodoka ebyiri z'ubwikorezi ziri mu muhanda, iruhande rwazo hari indi modoka ntoya yo mu ibara ry'umweru, hakurya mu gahanda k'abanyamaguru hari umuntu uhetse igikapu ku rutugu, utagaragara mu isura.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uciyemo akarongo gato k'umweru n'undi muremure w'umuhondo harimo imodoka y'umweru itwara abagenzi, hakurya hagaragara inyubako ifite icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo yo mu ibara ritukura.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, uhagazemo imodoka nini y'umweru, y'ubwikorezi, aho batwara imizigo, harimo amakarito ndetse n'imifuka, hari iy'umweru ndetse n'iy'umuhondo.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo ipikipiki, imbere gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi, iruhande hahagaze imodoka ntoya zitwara abantu ku giti cyabo.

Imbuga isashemo amabuye, ku ruhande hagaragara akazu kicaramo abagenzi bategereje imodoka, hari n'umugore wambaye ikanzu y'umukara, ufite igitambaro mu mutwe, ku ruhande rw'iwe hagaragarara imodoka itwara abagenzi, yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ahanda y'agashishemo amabuye, kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'umweru, y'ubwikorezi, hakurya yayo hagaragara indi modoka nini y'ubururu, itwara abantu.

Agace gato gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwagiye usaduka hari kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi, iri mu mabara abiri umuhondo ndetse n'umweru, imbere hagaragara umunyonzi ndetse n'izindi modoka zihagaze.

Umukingo w'amabuye ufatanye n'umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro, uri kugendwamo n'igare ririho umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'inkweto z'umweru. Hejuru hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka ifite amabara menshi, harimo ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu, n'irindi barara ry'umuhondo, hagati mu muhanda hari ubusitani buteyemo ibiti birebire by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo imodoka ntoya bakoresha bari kwigisha abantu biga gutwara imodoka, k’uruhande hagaragara ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru n'imodoka nini itwara abagenzi n'iyindi ntoya byegeranye, haruguru hagaragara inyubako hepfo yayo hari ibiti birebire.

Umuhanda umennyemo amabuye uri kugendamo abantu ufatanye n'undi wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka ndetse n'amapikipiki, hakurya hagaragara inzu y'igorofa imbere yayo hahagaze abantu.

Umukingo w'amabuye, hejuru yawo hagaragara agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda munini wa kaburimbo, uri kugendwamo n'imodoka nini itwara abagenzi, hakurya yawo hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo igiye itaragurika. Hahagaze imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, igice kimwe cyacyo gihagaze mu muhanda wa kaburimbo ikindi gihagaze mu muhanda w'amabuye.

Agahanda k'amabuye gahagazemo abantu ndetse n'amapikipiki, abayobozi b'amapikipiki bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo wanditsemo amagambo mo hagati, imbere hagaragara inzu y'igorofa.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu wambaye umupira w'umweru, w'amaboko magufi afite terefone ngendanwa ku gutwi, iruhande rwako hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki abiri, harimo n'imodoka y'ubwikorezi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo ugaragaramo ikinogo, harikugendamo imodoka ntoya itwara imizigo aho bashyira imizigo hicayemo umuntu hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi uhetse igikapu cy'umukara, mu mugongo imbere yabo hari guca imodoka nini y'ubwikorezi itwikirije shitingi y'umweru iziritse imigozi aho batwara imizigo.

Agahanda k'abanyamaguru iruhande rwako hagara umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru imbere yayo hagaragara indi ntoya itwara abantu ku giti cyabo iri mu ibara ritukura n'ipikipiki ndetse n'igare.

Imbuga y'igitaka ihagazemo imodoka y'umweru ifitemo amabara y'umuhondo, yanditseho amagambo atukura, hepfo yayo hagaragara igikuta cy'amatafari ahiye gifite itara hejuru ndetse n'ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye ku ruhande gakikijwe n'imirongo y'umweru ndetse n'umukara gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga, hakurya y'umuhanda hagaragara inzu y'igorofa imanitseho ibyapa bitandukanye, imbere yayo hahagaze imodoka.

Agace gatoya gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'amapine atatu, iri mu ibara ry'icyatsi kibisi hakurya hagaragara ibiti hari n'ibyapa.

Umuhanda mugari urimo imodoka nyinshi kandi nini zitonze umurongo zitwara abagenzi, harimo iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ku ruhande hari kugenda abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, ugaragaramo ibinyabiziga byo mu moko atandukanye, harimo igare, ipikipiki, ndetse n'imodoka y'amapine atatu irimo intama, aho batwara imizigo, ku ruhande hagaragara umugore ufite ibisheke mu ndobo.

Imbuga ishashemo amabuye, ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo, hari kugendamo imodoka nini y'umweru itwara abagenzi, harimo n'iyindi modoka nini cyane y'ubwikorezi irimo ibara ry'umuhondo, hakurya hagaragara ibiti.

Agahanda gashashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse aho utangirira, hari kugendamo imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo imodoka y'umweru y'ubwikorezi n'indi modoka itwara abantu ku giti cyabo hagaragara n'imodoka yindi y'ubururu.

Agahanda k'abanyamaguru kari kugendamo umusore wambaye ingofero itukura yayirebesheje inyuma, n'umupira w'umukara, iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini itwara abagenzi, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, hirya yawo hagaragara ibyatsi bitoshye, hateyemo icyapa cya mpande eshatu kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'agashushanyo k'umukara kari hagati.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umuntu wambaye imwambaro ujya kugaragara mu ibara ritukura, hakurya y'umuhanda hari agahanda k'abanyamaguru gahagazemo abantu babiri imbere hari igorofa hagaragara n'icyapa.

Ahantu hashushanyije igishushanyo cya mpande eshatu kigizwe n'amabara abiri umutuku umweru wo hagati, hashushananijemo ishusho y'umuntu ushaje mu ibara ry'umukara, haciyemo n'imirongo y'umukara ya igiye itaragurika.

Icyapa cy'ubururu gishushanyijemo igishushanyo cya mpandeshatu kiri mu ibara ry'umweru, mo hagati harimo umuntu ushushanyije mu ibara ry'umukara ndetse n'imirongo y'umukara ishanyije hasi.

Icyapa kiririmo ibara ry'umutuku ndetse n'umweruru, cya mpande eshatu mo hagati mu ibara ry'umweru harimo agashushanyo kameze nk'inyuguti ya ta, hejuru akarongo gatambitse mu ibara ritukura naho agahagaze kaba ari ibara ry'umukara, inyuma hagaragara ikirere kirimo ibara ry'ubururu n'akeru gake.

Igikuta gifite ibara rigaragara nk'ivu rifatanye n'ubusitani buteyemo icyapa gifite amabara abiri, ari yo ubururu ndetse n'umweru, haruguru hagaragara ibiti birebire.

Umusore ufite igikapu ku rutugu uhagaze mu gahanda gasashemo amabuye iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo utari kugendamo imodoka hakurya hari ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Igisambu kigaragaramo ibyatsi ndetse n'ibyondo harimo imodoka y'imashini ihinga hakurya ya hari imboga y'amabuye harimo icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara hakurya yacyo hagarara umuhanda wa kaburimbo.

Igisambu gishizemo icyapa cya mpande eshatu kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, mo hagati hashushanyijemo abantu bari mu ibara ry'umukara, hejuru yacyo hari ikindi kimeze nkacyo gishushanyijemo umusaraba w'umukara, iruhande rw'igisambu hari kugenda umwana uhetse igikapu mu mugongo.

Igipapuro cy'umweru gishushanyijeho ikiziga gitsindagiye mu ibara ritukura mo hagati hagaragara ibara ry'umweru handitsemo umubare mirongo itatu mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, ku mpande zayo hari ibiti biteye mu gisambu bihagazemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye benshi, ku ruhande hagaragara icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara.

Umuhanda uca hagati y'inyubako, urimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo n'amapikipiki ahahagaze, hakaba inzu hejuru imanitseho icyapa cyanditseho amagambo y'umukara ndetse n'umutuku, hagati hashushanyijemo urufunguzo.

Agace gato gasashemo amabuye ku mpera zako hagarara umurongo w'umukara ndetse n'umweru gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo muremure w'umuhondo hari kugendamo amapikipiki hakurya hari igorofa ndende munsi yayo hahagaze imodoka z'umweru.

Imbuga isashemo amabuye ku ruhande hagaragara inzu isize amabara atandukanye harimo ubururu ndetse n'ibara rijya gusa nk'umweru n'irindi rijya gutukura, hamanitseho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru imbere mu muryango ukinguye hahagaze umuntu, ku rugi hari ishusho y'umwana muto uri guseka

Uruzitiro rw'amatafari ahiye ruzengurutse inzu ndende y'igorofa, ifite ibikuta bifite ibara rijya gusa nka kaki mu madirishya yabyo hamanitsemo ibitambaro birinda urumuri.

Ahantu hari amazu menshi, hagaragara nk'umudugudu usakajwe amabati yo mu mabara atandukanye, amenshi muri yo ni amagorofa, imbere yaho hagaragra ahantu hateye ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Igice gitoya cy'igikuta kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere hagaragaramo igisambu kirimo ibikinisho by'abana biriho abana bambaye impuzankano zo mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Umuhanda ugaragaramo amapikipiki abiri, imwe itwaye umugenzi hakurya y'umuhanda hari abagore babiri, n'undi muntu usa nkaho atambuka, hari ibyapa biri mu ibara ry'umweru ndetse hateye ibiti.

Igisambu giteyemo ibiti, haruguru hagaragara uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, ruzengurutse inzu y'igorofa ndende, isakarishijwe amabati y'umutuku igice kimwe, yubakishije amatafari ahiye ku gice kimwe.

Imbuga y'amabuye manini hahagazemo imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo yo mu ibara ry'umukara, inyuma hagaragara inzu ya nyakatsi, imbere yayo hari ibiti, inyuma hagaragara n'ibindi ndetse n'umuntu wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru.

Igisambu gikikijwe na senyenge, giteyemo ibiti birebire, ndetse harimo n'ikigunda, haruguru hagaragara inzu ndende y'igorofa, inyuma yayo hari izindi nzu z'amagorofa.

Inzu y'igorofa imanitseho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, imbere yayo hahagaze imodokadoka zitwara abantu ku giti cyabo, ziri mu mabara atandukanye, hagarara n'umuhanda wa kaburimbo.

Imbuga iteyemo ubusitani hashizemo icyapa kitagaragara neza kigaragara agace gato, cyanditseho amagambo y'ubara ry'umukara hateyemo n'ibiti, imbere hagaragara inzu iri mu ibara ry'umweru.

Imbuga isashemo amabuye hahagazemo imodoka ebyiri ntoya zitwara abantu ku giti cyabo, imwe muri zo iri mu ibara ritukura imbere yazo hari igorofa, hejuru rifite icyapa cy'umukara cyanditsemo amagambo y'umweru.

Imbuga isashemo amabuye, ishushanyijemo uruziga rw'umweru, hagati hateye igiti, imbere hagaragara ibiti byinshi biri imbere y'inyubako y'inzu y'igorofa iri mu ibara rijya gusa nk'ivu, hejuru hateretse inkangara nini cyane.

Umurima uteyemo ibigori uzengurutswe na senyenge hakurya hagaragara amazu menshi asakaje amabati yo mu mabara atandukanye hari n'ibiti amazu yubatse mu buryo bw'umudugudu.

Amazu agaragara nkaho ari mu midugudu, ari mu bwoko butandukanye, harimo amanini ndetse n'amatoya, asakajwe n'amabati yo mu mabara atandukanye, hagiye hagaragara n'ibiti hagati y'amazu.

Umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru miremire, mo hagati haciyemo imirongo y'umuhondo yagiye itaragurika, hari kugendamo n'imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo, hakurya hagaragara ibiti.

Agahanda gashashemo amabuye, kari kugendamo umuntu wambaye imyenda y'umukara kari kunyura hagati y'ibisambu bibiri hakurya hateye ibiti birebire ikindi gisambu gishinzemo icyapa'icyatsi kibisi, kiriho amagambo y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'imyeru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya hagaragara inzu y'igorofa y'umweru, hari n'amapikipiki ari kugenda mu muhanda, ndetse n'imodoka n'urunyurane rw'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo, werekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya hagaragara indabo, hirya yazo hakaba hari ishyamba ryinshi, hagaragara n'umuntu uri kugenda mu muhanda ugaragara igice gitoya.

Umuhanda wa kaburimbo ushanjemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya hagaragara itara riri kwaka umutuku rifasha ibinyabiziga n'abantu gutambuka.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hagaragara n'imodoka mu muhanda hakurya hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo ibiri miremire y'umweru n'undi umwe w'umuhondo ugiye utaragurika uri kugendamo ibinyabiziga bitoya bitwara abantu ku giti cyabo, imbere hagaragara ibiti.

Agace gato k'ubusitani gafatanye n'agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya yawo hagaragara ubusitani.

Akarongo kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, gashushanyije hagati y'imirongo ibiri iri mu ibara ry'umuhondo, iri hagati mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hagaragara ibiti.

Agace gatoya k'ubusitani gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira hagaragaramo n'ipikipiki zihetse abagenzi ndetse n'imodoka ntoya ziri mu mabara atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse harimo imodoka itwara abantu ku giti cyabo yo mu bara ry'umukara, ku ruhande rw'umuhanda hagaragara umukingo w'amabuye hejuru hari ibiti, uwo muhanda uca munsi y'ikiraro.

Umukingo w'amabuye ufatanje n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo umugabo uri ku igare, wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'umweru, yambaye'inkweto z'umweru, umuhanda uca munsi y'kiraro.

Umuhanda wa kaburimbo, ugaragara nk'uwasadutse, ku ruhande hari ikidendezi cy'amazi y'ibiziba, imbere hagaragaramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'amagare, utibagiwe n'amapikipiki.

Agace gato cyane k'ubusitani gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya yaho hagaragara amazu n'urujya n'uruza rw'abantu.

Agahanda gasashemo amabuye, haruguru yako hari ubusitani buteyemo icyapa kirekire cy'uruziga kiririmo ibara ritukura ndetse n'umweru hagati yashushanyijemo inyuguti nini ya pa iciyemo umurongo utukura uberamye. Imbere hagarara n'umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo, kuruhande uciyemo umurongo muremure w'umweru, hagati haciyemo umurongo w'umuhondo ugiye utagurika, hagati harimo ubusitani, kuruhande hagaragara ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo werekana aho abanyamaguru bambukira hashushanyije imirongo y'umweru, hari kugendamo n'amapikipiki, hakurya ahagaragara itara ryatse ibara ry'icyatsi kibisi rifasha abagenzi kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo ufitemo ubusitani hagati buteyemo igiti kiri mu bwoko bw'imikindo mu muhanda hashoshanyijemo umurongo w'umweru ndetse n'umukara, n'undi w'umuhondo hakurya hagaragara icyapa cy'ubururu.

Agahanda k'amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo uri gucamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi uri guca munsi y'ikiraro, ku ruhande hagaragara ibiti.

Umuhanda w'igitaka ugaragaramo utubuye tw'uduserebwayi iruhande rw'umuhanda hateye indabo, ndetse n'ibiti imbere hagaragara amazu asakarishijwe amabati.

Agahanda gasashemo amabuye ku ruhande ashushanyijeho imirongo y'umukara n'umweru, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ufitemo ubusitani hagati, buteyemo ibiti bibiri by'imikindo, umuhanda uri kugendamo imodoka ndetse n'ipikipiki, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti ndetse n'inzu.

Umuhanda wa kaburimbo hagati ufite agace gatoya gasashemo amabuye gakikijwe n'imirongo y'umweru ndetse n'umukara hari n'umuyonzi uri kuwugendamo hakurya hagaragara ibiti byinshi bimeze nk'ishyamba.

Ubusitani buteyemo igiti, bukikijwe n'imirongo y'umukara ndetse n'umweru, buri hagati y'imirongo y'umuhondo ishushanyije mu muhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hateye ibiti, hari n'ikinyabiziga kiri kuwugendamo.

Umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro, uri kugendamo ipikipiki idatwaye umugenzi, iruhande rw'umuhanda hari ibiti, imbere hagaragara imodoka, ndetse n'ibindi biti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite umurongo muremure w'umweru ushushanyijeho kuruhande, hagati hashushanyije indirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, harimo umuntu uri kwambuka hakurya ahagaragara ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo igiye itaragurika harimo umugabo uri ku igare hagaragara imodoka ndetse n'amapikipiki hakurya hari ibiti.

Umukingo hejuru uteyeho ibiti ufatanyije n'umuferege, uri iruhande rw'umuhanda mugari, hagati hagaragara indabo, hakurya y'umuhanda hateye ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, igaragaza aho abagenzi bambukira, hari n'itara ryemerera abagenzi n'imodoka gutambuka, hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo mo hagati ufitemo ubusitani buteyemo igiti cy'umukindo gikikijwe n'umurongo w'umweru ndetse n'umukara, hakurya hagaragara amapikipiki abiri ndetse n'imodoka mw’ibara ritukura, hari n'ibiti byinshi bifatanye hakurya y'umuhanda bimeze nk'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru twerekana amerekezo hari kugendamo ipikipiki. Hakurya hari kugaragara imodoka nyinshi hari n'ibiti byinshi bimeze nk'ishyamba.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uciyemo imirongo yo mu ibara ry'umweru harimo n'iciye igenda itaragurika, hagati hagaragaramo ubusitani, hakurya hagaragara inzu y'igorofa.

Umuhanda wa kaburimbo ufatanye n'agace gatoya gashashemo amabuye hari kugendamo umuyobozi w'imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo, ku ruhande hagaragara igisambu giteyemo ibiti birebire, hakurya ahagaragara igorofa riri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda mugari wa kaburimbo wari kugendamo igipiki hakurya hagaragara uruzitiro rw'umweru rukikijwe n'ibiti birebire hepfo hari ahantu hari icyapa kiririmo ibara ry'ubururu

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bicanye amatara, hari kugendamo n'abantu, hakurya hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo ubwoko butandukanye bw'ibinyabiziga, haruguru hagarara umuhanda usa nkaho uterera uri kugendamo imodoka y'ubururu y'ubwikorezi, haruguru yaho hari umukingo hejuru y'umukingo hateye ibiti.

Umuhanda w'igitaka ufatanye n'agace gatoya gateyemo igisambu, hari kugendamo imodoka y'amapine atatu, iri mu'ibara ry'ubururu hari n'uruzitiro ruri mu ibara ry'umuhondo, hepfo hagaragarara inzu ku ruhande hateye ibiti.

Ubusitani buri hagati y'umuhanda wa kaburimbo bukikijwe n'umurongo w'umweru ndetse n'umukara ku ruhande umuhanda hashushanyije undi murongo w'umuhondo hari kugendamo amapikipiki ndetse n'igare hagaragara n'ibiti by'imikindo.